Imyenda imanitse mu iduka, imyenda y'igitsina gore harimo amakanzu, amapantaro, amashati afite amabara atandukanye umutuku, umweru n'ubururu.

Ndabona ibicuruzwa biri aho bita Kinazi dayari koperative, amata atandukanye afunzwe mu ikarito, andi afunze mu majerekani, andi afunzwe mu gacupa, andi afunzwe mu gacupa, mu gakopo.